Uyu muganga arimo gusuzuma uyu mwana, biragaragara ko bishimye cyane, noneho muganga arimo gutanga serivisi nziza, asekera umwana n'umwana yishimye, ku buryo arinda umwana kuba yagira ubwoba bwo guhabwa ibipimo.

Nk'uko mubibona rero iki ni ikirango cya mituwele, ubwisungane mu kwivuza. Iyi mituweli irakoreshwa cyane abantu bane bakoresha na yo iri mu bwoko bwa RSSB. Aho abantu bamwe bakoresha rama, abandi bagakoresha emimayi. Ariko harimo n'ubundi bwoko bwa mituweli, iki rero ni ikirango cya mituweli.

Ahangaha rero murahabona telefoneba, hari telefoni yanditsemo imibare *531# ariko akaba iri telefone iri ku cyapa kizakorwa cyanditseho ngo komeza wizigamire wungukirwe agera kuri 4% ku mwaka rero bikaba bigaragara ko ubungubu ari uburyo bukoresha mu kwizigamira amafaranga.

Ahangaha rero murabona ko hari umurwayi uryamye umumama uri kumwe n'umwana urikureba ariko ibyo ari aribyo byose barimo gushishikariza abantu kuba bakinjira mu bwishingizi bwa radiyanti, ubwishingizi, ubwishingizi buba bwafasha umuntu kuba yakwivuza ku giti cye akivuza neza kandi ahantu heza.

Aha ngaha rero hariho icyapa kirimo kwamamaza, uburyo umuntu yabasha kwikorera ubwishingizi bujyanye n'impanuka zamwangiriza umubiri, urabona ko hariho umuntu barimo gupfuka ku kaguru, bigaragara ko yahagiriye impanuka, ariko akaba akorerana n'ubu bwishingizi, rero barimo gushishikariza abantu bose gushaka ubu bwishingizi.

Rero murabona ko hari telefone, iyi telefone ikaba irimo kweyerekana mesaje yo kohereza amafaranga, aho bigaragara rero iyo umuntu yohereje amafaranga, noneho akaba ari mesaje yahawe muri telefone, yerekana ko amafaranga yohereje, yamaze kugenda.

Ahangaha rero murahabona ko ari mu iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, urabonako cyane cyane bacuruza ama jaketi y'abantu b'abagabo, imipira, ingofero n'ibindi byinshi, ariko cyane cyane imyenda y'abantu b'igitsina gabo.

Kangaha rero, ni mu isoko ry'imyenda, murabona ko harimo imyenda myinshi itandukanye, n'iy'abagore, iy'abagabo, iy'abakobwa, ndetse hakabamo n'abandi bantu, harimo kugenda bayizinga bayirenga neza ,bakabasha kuba bayiguri imeze neza, atari imyenda yapfunyaraye, ahubwo ariyo imyenda imeze neza.

Aha ngaha naho rero murabona ko ari muri butike, aho hakorerwamo ubucuruzi bujyanye n'imyenda cyane cyane imyenda y'abamama, ingofero, amasakoshi y'abamama ndetse n'ibindi bitandukanye ariko cyane cyane iby'igitsina gore.

Aha ngaha rero na ho ni ahantu heza, heza cyane ariko biragaragara ko ari ahantu hakorerwa ubucuruzi bw'imyenda, mubona hibanzemo cyane imyenda y'abamama, amakanzu maremare n'amagufi, amashati, mbese ni imyenda myiza cyane ku bantu b'abamama.

Ahangaha rero murabibona hamanitse ama tisheti meza, ama rakosite, imyenda y'abana batoya, ariko cyane cyane, iyi myenda ni y'abantu b'igitsina gabo, kuko nk'uko bigaragara, murabona ama tisheti, murabona iyi myenda y'abana, nayo ni iy'abana b'igitsina gabo.

Nk'uko mubibona rero ahangaha ni ahantu habera ubucuruzi murabona ko icyiganjemo ari imyenda, aho hamanitse imyenda itandukanye ariko cyane cyane ni imyenda y'abantu b'igitsina gore, ikindi kandi murabona ko ari ahantu hasukuye ahantu hameze neza.

Nk'uko mubibona rero ahangaha naho ni muri supermarket, aho mubona hacururizwamo imyenda, murabona imyenda imanitse aha ngaha iyiganjemo ni amat-shirt, ariko urebyemo imbere urabona ko harimo ibindi bintu na byo bijyanye n'imyenda, bigaragara rero ko aha ngaha hakorerwa imyenda myiza kandi imyenda ya made in Rwanda apana caguwa.

Nk'uko mubibona rero aha ngaha hari utuntu twiza dusa n'imitako utu tuntu rero tukaba ari utuntu turimo gucuruzwa tukaba ari udukoresho tw'ubugeni aho umuntu ashobora kudukoresha ashyiramo utuntu tw'udutako mu rugo cyangwa se mu nzu agenda ataka akoresheje utu tuntu.

Aha ngaha rero murahabona imodoka nziza cyane, ifite ibirahuri byiza, murabona ko ari imodoka yo mu bwoko bwa vatiri, akaba ari imodoka icururizwa muri Kigali karizi maketi, uwaba rero ashaka kugura imodoka nziza nk'iyi, yagana muri Kigali karizi maketi.

Aha ngaha rero murabona ko hari imodoka nziza, mu modoka bakaba bafunguye inyuma, aho tuzi nka butu. Rero murabona ko nanga ahitwa butu, ari ahantu heza cyane, kuburyo ushobora kurambika utuni twawe ntitwangirike cyangwa ngo tube twa kandora.

Iyi ni imodoka, imodoka ikiri nshyashya pe! Murabibona namwe ko ikiriho n'amasashe, kuri vora, aho kwicara, biragaragara cyane ko ari imodoka ikiri nshyashya, urebye neza ukuntu imeze, mo imbere ukuntu hameze, ibikoresho birimo, byose bifite imyenda igaragaza ko ari ibintu bikiri bishyashya bitarakoreshwa.

Nk'uko mubibona rero iyi ni imodoka nshyashya iri ahantu heza, iyi modoka rero ikaba iherereye ahantu heza hariho izindi nzu ziri ahantu hari ibiti byiza cyane, noneho iyi modoka ikaba igaragara ko yaguriwe muri kigali Kazi maketi, rero wakifuza kuba yagura nk'imodoka nk'iyi nawe yajya muri Kigali Kazi maketi.

Aha ngaha rero murabona ko ari ahantu hameze neza hakaba bigaragara ko hari uruganda cyangwa se hagurishirizwa imodoka zijyanye n'iziri mu bwoko bwa Toyota. Rero murabona ko ari hanini cyane kandi n'imodoka ziririmo ari nyinshi.

Aha ngaha rero murahabona imodoka nziza kandi akaba ari imodoka zikozwe mu bwoko bumwe, izi modoka zikaba ziri imbere y'ahantu hubatse amazu meza kandi maremare, rero bigaragara ko aha hantu hakorerwa ubucuruzi bw'imodoka, zikaba ziba ziri hanze bazisohoye kugira ngo buri umwe wese abone ko ari imodoka nziza kandi zikiri nshyashya.

Aha ngaha rero murahabona imodoka nziza cyane, ni imodoka ikiri nshyashya ariko kandi si yo yonyine murabona ahantu iparitse hari izindi modoka. Ikindi kandi murabona ko inyuma yayo hari ubwoko bw'inzu, inzu y'ubwoko bwa etaje, ikigaragara cyo ni uko iyi modoka ari imwe mu modoka zigurirwa muri Kigali Cars market, aha ngaha rero haba hari imodoka nyinshi zitandukanye.

Aha hantu rero ni ahantu heza, ariko murabona ko haparitse imodoka zo mu bwoko butandukanye, ariko iziganje ni imodoka zo mu bwoko bwa vatiri, ariko haparitseho n'indi modoka ari yo yo mu bwoko bwa fuso, tuzi ku bwoko bwa fuso, yifashishwa mu gutwara ibindi bintu byinshi.

Nkuko mubibona rero, aha hantu hari amafaranga menshi bigaragara nk'aho aha hantu habarirwa amafaranga, ikindi kandi murabona hari imashini bisa nkaho iyi mashini yifashishwa mu kuba yabara aya mafaranga.

Aya ni amafaranga y'amanyarwanda, amafaranga igihumbi. Biragaragara ko hari igice amafaranga yanditse mu kinyarwanda ngo banki nkuru y'u Rwanda, amafaranga igihumbi. Noneho hakaba n'ahandi byanditse mu rurimi rw'icyongereza, ariko yose ni amafaranga igihumbi.

Aha ni ahantu batangira serivisi zo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, ukoresheje telefone yawe, murabibona ko harimo umuntu uri gutanga iyo serivisi, hakaba n'undi urimo gusaba serivisi. Hakaza kuzaho icyapa kirimo kwerekana ko ari ukwishyura ukoresheje momo peyi.

Aha ngaha rero murabona ko ari ahantu hakorerwa ibikorwa bijyanye no kwishyura amafaranga. Murabona ko hari umuntu wicayemo imbere, ariko hakaba n'abandi bari inyuma bari kugenda, bamwe bafite udutabo, abandi ariko baba baje gukoresha ibintu bijyanye n'ihererekanya ry'amafaranga.

Aha ngaha rero muri kubona inoti nyinshi z'amafaranga aho bari kutwereka inote z'igihumbi ariko bikagaragara ko aya mafaranga atari amafaranga y'u rwanda, rero biragaragara ko iyu muntu ari kugenda ayabara ariko murabona ko ari kumwe n'imashini cyangwa se karikilete imufasha kuba yabara neza amafaranga hatajemo kwibeshya.

Aha ngaha rero nkuko mubibona, murabona ko hari ibiceri by'amafaranga, ariko aya mafaranga akaba ari amafaranga ya kera, aho mubona hari igiceri cy'icumi, ariko iki giceri gitandukanye n'ibiceri bihari ubu ngubu. Rero murarahabonaho ikindi giceri, igiceri gisa n'igiceri cya makumyabiri, ariko bigaragara ko cyakozwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu.

Aya ngaya rero ni amafaranga igihumbi y'Amanyarwanda, ariko nk'uko mubibona urabona ko ari amafaranga yakoreshwaga kera, kera hakiri umwaduko w'ururimi rw'Igifaransa urabona ko handitseho mu rurimi rw'Igifaransa kuri iyi noti y'igihumbi. Ariko ni mafaranga y'Amanyarwanda usibye ko ngo ubu yataye agaciro atagikoreshwa.

Aha na ho ni serivisi z'ubucuruzi zihakorerwa, nkuko mubibona uyu mukobwa urimo asuka amata ayavana mu ijage imwe ajyana mu yindi, hagaragara ko hanze hari abakiriya bamugutegereje, bategereje guhabwa serivisi n'uyu muntu.

Aha ngaha rero urabona neza ko harimo umumama wicaye, ariko ukongera kubona ko ari ahantu muri kantine bacuruza ibyo kurya, murahabona amata, amandazi n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko ntabwo ari amata gusa murabona ko hari n'ahandi hari fanta, rero aha hantu bakora ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ariko cyane cyane ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona aha hari ibicuba, ibicuba bikaba bikoroshwa mu gihe bari kubuganizamo amata, kugira ngo amata atagira icyo aba ndetse hari n'abandi bajya babikoresha kugira ngo babe bayavogerezamo abe ikivugota.

Aha ngaha rero urabona ko hari umuryango, kuri uyu muryango hakaba hari icyapa kinini cyane, cyanditseho Nyanza miriki indasitirizi, bigaragara rero ko aha ngaha ari aho bafata amata bakaba bayakoramo ibindi bintu bitandukanye bikozwe mumata, harimo nka yawurute, ndetse n'amata y'inyange ndetse n'ibyo tuzi nka forumaje, bakaba babikora mu mata, hano kuri uyu muryango bikaba bibarizwamo.

Aha ngaha rero murabibona neza, ni ahantu birasa nkaho ari muri kantine, urabona ko hateretse telemusi, hakaba hariho indobo bisa naho irimo capati, noneho bigaragara ko hakorerwa ubucuruzi bujyanye na kantine. Aho bacuruza icyayi, amata n'ibindi bitandukanye.

Ahangaha rero murabona hari umuryango, bisa naho ukorerwamo ibintu byo gutunganya amata, urarabona ko harimo ibikoresho bikoreshwa mu kugira ngo batunganya amata, bakaba bayakoramo utuntu dutandukanye, cyangwa se bakayakuramo amavuta, kugira ngo bayagire neza cyane.

Nk'uko mubibona rero aha hari amandazi meza cyane. Amandazi ateye apeti ariko aha ngaha ubu ni uburyo umucuruzi aba yagize kugira ngo umuntu wese urabona aya mandazi yumve ashaka kurirya abe yaza kugura. Rero murabona ko yafashe irindazi rimwe akarisaturamo amandazi abiri kugira ngo agaragaze nuko mo imbere riba rimeze.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi hari n'umuntu urimo guhaha ibiribwa, ndetse bigaragara ko ari umuntu wateye imbere, ufitemo n'ibigega abasha kuba yabikamo amata, kugira ngo atangirika.

Aha ngaha rero murahabona icyapa, icyapa kikaba cyanditseho Airtel money, bigaragara ko barimo kwamamaza Airtel, murabona ko rero uyu umuntu cyangwa se iki gipupe, gifashe telefone yanditseho ko ubonye amafaranga magana atanu, kuri konti yawe ya Airtel, bigaragaza rero serivisi zikorwa na Airtel.

Nkuko mubibona rero, ubu ngubu ni uburyo, umuntu aba agiye kwishyura amafaranga, akoresheje telefoni ye, rero aha ngaha, aha hantu bagize h'umuhondo, ni igihe baba bari kukwereka ko ugomba kwemeza ko, ugiye kwishyura amafaranga angana gutya.

Nk'uko mubibona aya ni amabwiriza umuntu agenda akurikiza bitewe na serivisi agiye gushaka, urabona ko rero uyu nguyu we yahisemo karindwi, aho yashakaga serivise ya karindwi nawe rero uramutse ufashe telefoni yawe ugakanda akanyanyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego wahita ugera kuri aya mabwiriza ugahitamo icyo ushaka gukora.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona, hari telefone. Iyi telefone ikaba irimo kwifashishwa nk'uburyo bwo kohereza amafaranga ukoresheje momo yawe. Urabibona ko ukoresha ujoyininga MTN noneho bakakwereka uburyo wohereza amafaranga ukoresheje momo cyangwa se telefone yawe.

Ahangaha rero hari uburyo bwo kwiteganyiriza bazajya utanga amafaranga make make ugateganyiriza ahazaza h'umwana wawe. Aya mafaranga rero ashobora kuzayakoresha amwishyurira minerivare amugurira imyenda amushingira icyo yakora kugira ngo nawe yiteze imbere muri aya mafaranga aba wamuzigamiye.

Iki ni icyapa kirimo kwamamaza eyateri bigaragara ko hariho umuntu wishimye cyane ikindi kandi kikongera kikerekana uburyo kwishyura amayinite kwishyura ukoresheje ukohereza amafaranga umuntu arebe biba byoroshye iyobashe kuba wakoresha Airtel.

Aha ngaha rero murabona neza ko hari amafaranga akaba ari inote z'icumi zitandukanye rero nubwo zose sri inote biragaragara ko atari izo mu gihugu kimwe kuko ntabwo zisa yaba amabara yaba ibintu bishushanyijeho biratandukanye byose.

Nkuko mubibona rero ahangahangaha hari umuntu urimo kubara amafaranga gusa ikigaragara cyo aya mafaranga ntago ari amafaranga y'amanyarwanda murabona ko ari amafaranga abantu b'abanyarwanda muzi amafaranga muzi neza ko amafaranga y'u rwanda ahantu mafaranga arimo ako nkuko ayangaya ameze.

Aya ngaya rero murabona ko ari amafaranga menshi menshi cyane. Uyu muntu akaba arimo kubara amafaranga, bigaragara ko ari amafaranga y'amanayigeriya. Harimo inote nyinshi ariko izi note urabona ko zitandukanye amabara, ariko zose ni nayigeriya, murabona ko ari inoti z'amafaranga magana abiri, kandi muzi ko mu Rwanda nta noti ya magana abiri ibaho.

Aha ngaha rero hari amafaranga menshi cyane agiye azinze, aya mafaranga akaba ari amafaranga y'amayero. Bigaragara ko ari amafaranga icumi. Rero urabona ko ari amafaranga meza ariko aya mafaranga ntabwo mu Rwanda ntabwo haragera inoti z'icumi nk'uko mubizi, icumi aba ari ibiceri. Kuko inote ntoya yo mu Rwanda, ni inote y'amafaranga magana atanu.

Aha ngaha rero nkuko mubibona, hari amafaranga menshi yagiye azingwa bitandukanye, ariko murabona ko aya mafaranga, harimo amafaranga mirongo itanu, amafaranga ijana, ariko aya mafaranga ntabwo ari amanyarwanda, kuko amafaranga y'amanyarwanda namwe murayazi ukuntu aba ameze. Ntabwo ari nk'uku aya ameze.

Aha ngaha rero murabona hari amafaranga, ni mafaranga ijana ariko amafaranga akozwe mu bwoko bw'inote, aya mafaranga rero mukaba mubona ko atari amanyarwanda, akaba ari amafaranga akoreshwa mu mirimo itandukanye mu guhaha, mu gukora ibintu bitandukanye ariko mukaba mubona ko atari amanyarwanda kuko mu Rwanda nta note y'ijana ibaho.

Nk'uko mubibona kandi ahangaha hari amafaranga atandukanye hari ibiceri hari inote inote murabona ko ari inote y'ijana ariko murabona neza ko atari amanyarwanda hakaba ibiceri byinshi ibiceri by'amafaranga atanu ibiceri by'ifaranga rimwe rwose bigaragara ko ibi biceri n'iyi note atari iby'ubu bitagikoreshwa muri iki gihe.

Nk'uko mubibona rero aha ngaha, hari umuntu urimo kubara amafaranga ariko murabona ko ari inote zitandukanye kandi izi note nk'uko mubizi, mu Rwanda ntabwo habamo izi note zimeze gutya. Rero murabona ko izi note ari inote za magana atanu ndetse n'igihumbi, n'ibindi bifaranga bitandukanye. Ariko icyo mubona cyo murabona ko ari inote z'amahanga, atari iz'amanyarwanda.

Aha ngaha rero murabona ko ari ahantu hari amafaranga kandi amafaranga y'ubwoko butandukanye, bigaragara ko aha hantu hakorerwa ibikorwa bijyanye no kuvunja amafaranga, ku buryo umuntu ufite amafaranga agiye nko mu kindi gihugu agenda akayatanga bakamuguranira bakamuha amafaranga yo mu gihugu agiyemo.

Aya ni amafaranga, ni ubwoko bw'amafaranga ariko nk'uko mubibona biragaragara ko ari ayo twita amayero, hakaba hari amafaranga inote y'amafaranga atanu, iy'icumi, makumyabiri, mirongo itanu, ijana ndetse na magana abiri.

Aha ngaha murahabona ubwoko bw'amafaranga menshi menshi cyane, ariko mukaba mubona ko ari inoto zitandukanye iy'igihumbi, iya bibiri, inote ariko aha ngaha hose nta note yo mu Rwanda irimo. Ariko aya mafaranga rero akaba akoreshwa cyane cyane muri yuganda nkuko mubibona.

Ahangaha rero hari amafaranga menshi menshi ariko murabona kandi amafaranga y'inote ijana ano amafaranga agaragaraha, rero aya mafaranga murebye neza murabona ko atari umunyarwanda. Amafaranga y'u Rwanda nta note agira y'ijana mu Rwanda hakoreshwa ibiceri gusa by'amafaranga ijana.

Aha rero na ho, murabona ko ari ahantu hakorerwa ibikorwa byo kuvunja amafaranga. Amafaranga avunjwa akavanwa muyo mu kindi gihugu bakaguhereza amafaranga yo mu gihugu ugiyemo bitewe n'uko ubishaka. Urugero, nshobora kuba ngiye muri Uganda nkajyana amafaranga y'amanyarwanda bakampa amafaranga y' i Buganda kugira ngo ningera muri Uganda mbone uko nza gukoresha amafaranga yaho.

Ahaha rero naho murabona hari ubwoko bw'inote n'ubwoko bw'ibiceri murabona ko ari ibiceri bitandukanye ariko bigaragara ko buri ibicere bagiye babitondeka bakurikije agaciro kacyo. Iyo ibiceri rero bihwanyije babishyize hamwe n'ibindi babishyira ukwabya rero murabona ko hari ubwo hariho uwateye ikote ya 20 y'amafaranga.

Nk'uko mubibona rero, aha ngaha hari amafaranga. Hari inote nyinshi z'amafaranga, aya mafaranga akaba ari inote z'ijana, mirongo itanu, makumyabiri, ariko aya mafaranga nk'uko mubibona murabona ko atari amanyarwanda. Ni amafaranga rero yo mu bindi bihugu amwe twita amadovize cyangwa amadorari.

Aha ngaha rero murabona ko hari inote zitandukanye z'amafaranga, aya akaba ari amafaranga y'Amayero. Aya mafaranga rero murabona ko atondetse, guhera kunote y'atanu, icumi, makumyabiri, mirongo itanu. ijana, magana abiri ndetse na magana atanu. Aho twebwe muzi ko mu Rwanda inote ntoya ari inote y'amafaranga magana atanu, ubundi twifashishe biceri.

Biragaragara ko ari amafaranga yo mu gihugu cy'Ubushinwa, mu mafaranga agiye atandukanye, inote zitandukanye, harimo inote y'ijana, inote ya mirongo itanu, mbese aya mafaranga ni Amashinwa.

Aha ngaha rero hari ubwoko bw'amafaranga, ariko aya mafaranga ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Tanzania, amafaranga igihumbi, nk'uko mubibona rero iki gihumbi cyo muri Tanzania kiba kiriho amazu meza yo mu bwoko bwa etaje, ariko ni mafaranga igihumbi.

Nkuko mubibona rero aya ni amafaranga ariko aya mafaranga na mafaranga ari mu gihugu cya Kongo aho murabonako arenga ibihumbi makumyabiri nkuko mu bizere mu rwanda nta noti ibaho y'ibihumbi makumyabiri ariko ayangahe yo muri Kongo nabonako inote ibihumbi makumyabiri by'amafaranga ya muri Kongo.

Aha ngaha rero murahabona inzu nziza cyane kandi nini ndende, ikaba ari inzu yanditseho, iriho icyapa cyanditseho Teganya. Rero mukaza kubona munsi yayo hari imodoka z'uruhurirane bigaragara ko ari umuhanda. Iyi nzu ikaba yegeranye n'uyu muhanda.

Aha ngaha rero urahabona na salo nziza ifite intebe nziza, ameza meza cyane, murabona rero ko ari ahantu heza, hari ibikoresho byiza buri wese yakwifuza gutunga muri salo ye.

Uko mubibona rero, aha hantu harasa neza, hari intebe nziza cyane, hari udukombe turi ku meza, bigaragara ko aha hantu ari ahantu muri saramanje, ahantu bahurira bagasangirira.

Aha hantu rero murabona ko hari gukorerwa ibikomore by'ibintu bihari, hari imbaho, hari ibiti bigaragara ko hakorerwa ibintu bijyanye no gukora ibintu bikorwa mu mbaho harimo nk'intebe, ameza, inzugi n'ibindi byinshi muzi bikorwa mu mbaho.

Aha hantu hari amazu ariko cyane cyane biragaragara ko ari ahantu hicara abantu barimo kuganira cyangwa se gusangira, ahantu hari ameza manini bigaragara ko yicaraho abantu bane bashaka nko kuhaganirira cyangwa se kuba bahasangirira nk'icyo kunywa bitewe n'uko babyifuza.

Aha ngaha rero murahabona intebe nziza cyane, hari nk'iyi ntebe umuntu ashobora kwicaramo, cyangwa se ukayicara, ukaryama, ukegamira neza, ni intebe ikozwe neza cyane, mu buryo bwiza kandi busobanutse busirimutse.

Nk'uko mubibona rero ahangaha hari intebe nziza zisa neza cyane ndetse hakaba hari n'ameza, bigaragara ko rero igihe abantu bicaye bari gusangira cyangwa bari kuganira aha ngaha haba ari abantu bishimye cyane, rero bigaragara ko uyu muntu ari umucuruzi mu buryo bwo kuzishakira abakiriya.

Hari amazu meza rero murimo kubona aha ngaha, amamazu ya etaje, bigaragara ko ari ahantu kuri hoteri, hakaba rero hari na pisine nziza cyane, hakaba n'ahantu ho kwicara kuburyo mushobora kuza mukicara mukaganirira hano kuri pisine, mureba amazi mwumva mwishimye.

Ahaha rero nkuko muri kubibona ni ahantu heza cyane h'inzu yubatse neza mu bwoko bwa etaje, hakaba ari inzu amasuku ifite jaride nziza, ifite ibiti bituranye, ibiti biri aha ngaha ku nzu byegeranye ibiti byiza cyane harimo kwaka amatara meza bigaragara ko ari ahantu heza cyane buri muntu wese yakwifuza kuruhukira.

Murabibona rero, aha ngaha ni kuri Marriott hoteri, aho hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye, muri hoteri na mwe murabizi, hari abasohokeramo bagiye kwishimisha, bagiye koga muri pisine n'abagiye gukora izindi gahunda z'akazi bikaba ngombwa ko bahitamo kuba bahurira muri hoteri kugirango ibintu byabo bigire umutekano.

hangaha rero murahabona amazu meza cyane aya mazu nk'uko tuyazi ndetse n'utarayageraho akenshi aba ashushanyije ku bishushanyo aho tuzi ko ari amazu aherereye mu mujyi wa kigali akaba ari amazu meza cyane amazu yubatse neza iy'inzu imwe muri zo akabari kigali convention akaba ari inzu yamamaye cyane aho igenda ishushanywa ahantu henshi cyane abanyarwanda murabizi mumaze kuyimenya

Aha ngaha rero murahabona icyumba cyiza cyane, mubona ari ahantu heza abantu bashobora guhurira bakaganirira, abantu bari kuganira ku ngingo zitandukanye ariko ari abantu benshi. Wenda hashobora kuba ari nk'abantu bagize kampani runaka, abantu bahuriye mu myanya y'ubuyobozi runaka bari kuganira ku bintu bitandukanye. Rero bakaba baza muri iyi hoteli bagafata icyumba nk'iki bakaganiriramo.

Rero murabona ko ari ahantu heza cyane hari intebe nziza hakaba ameza bigaragarakanga ariko handi kwa kundi abantu bahaganirira cyane cyane akaza agafata icyo kunywa akicarahanga bakicara abagenda basoma ibyo kunywa ariko banaganira na leta yihagara.

Nk'uko mubibona aha ngaha hari inyubako nziza cyane, muri iyi nyubako rero murabona ko hano hagati hari pisinine nziza cyane, aho umuntu ashobora kuza koga akaruhuka cyangwa se akaza akicara hano kuri izi ntebe zihari, akaba yirebera ukuntu aya mazi ari meza, ndetse ari nako yitekerezaho, bikamufasha kuba yaruhuka.

Aha hantu rero murabona kari ari ahantu heza, hari jaride nziza, harambitsemo intebe n'ameza, bigaragara ko abantu bashobora kuza bakahicara bakaganirarira barenze umwe cyangwa barenze babiri, ikindi kandi murabona ko ari ahantu hari pisine nziza, pisine imeze neza, hazitiye neza igipangu cyiza, bigaragara rero ko aha hantu ari ahantu heza cyane ku bantu bashaka kuruhuka.

Aha ngaha ni ahantu heza cyane urarabibona ko hari inzu nziza yo mu bwoko bwa etaje, hakaba ibiti, indabo nziza cyane, hakaba icyapa cyerekana akari kuri Mariyoti, nk'uko mubizi ni kuri Mariyoti hoteli, niyo mpamvu mubona neza ko hasa neza cyane.

Aha ngaha rero nkuko mubibona ni ahantu heza cyane, murabona ko hagiye hari intebe n'ameza, bigaragara ko nk'umuryango ushobora gusohokera aha hantu, bakicara hano bagafata icyo kunywa bakaba baganiramo, urabona ko ari ahantu heza cyane ku muntu ukeneye kuruhuka neza, yaza aha hantu akicara akagubwa neza.

Nk'uko mubibona rero aha ngaha murabona ko hari umuryango munini cyane, bigaragara ko hakorerwa ibikorwa bijyanye no na serivisi z'irembo, murabona neza murebyemo imbere murabona ko hakorerwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, gutanga serivisi z'irembo n'izijyanye no gukoresha BPR ukoresheje irembo, n'ibindi byinshi cyane bikorerwa ku irembo.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona murabona ko harimo gutangirwa serivisi zijyanye n'ikoranabuhanga, aho abantu bose bari aha ngaha bari gukoresha kompuyuta cyangwa se mudasobwa zabo kugira ngo babashe kuba batanga serivisi zitandukanye.

Aha naho urimo kubona abagore bishimye bameze neza! ariko biragaragara ko arikwamamaza uburyo abagore bagomba gushyirwa imbere, nabo bakagira iterambere mu bintu byose. Ntibasubizwe inyuma, Ngo babe abantu b`iyong` iyo batagira icyo bazi. Ahubwo nabo bagatezwe imbere, bagatera imbere. buri mugore wese akumva ko afite uruhare mu kuba ibyo akora byatera imbere!.

Aha ngaha rero murabona icyapa kiriho umukobwa uri guseka wishimye bigaragara ko iki cyapa kirimo kwamamaza banki, popirer y'u Rwanda, akaba ari banki ibasha gutanga inguzanyo ku muturage uwo ari we wese ugiye ayigana akayaka inguzanyo bidasabye ibindi bintu byinshi cyane.

Ahangaha rero murahabona aba mama beza cyane bambaye imyenda myiza, kandi ikindi ni inyubako imeze neza inyubako isukuye, ahangaha rero ni mu nyubako ya unguka fayinanse aho umuntu ashobora kuza agashora imigabane ye ahangaha noneho akaza kubona inyungu zigiye nyinshi zitandukanye.

Aha ngaha rero murabona ko ari icyapa, kiriho umukobwa mwiza, bigaragara ko yishimye, iki cyangombwa rero, kikaba kiri kwerekana ko, gukoresha mokashi ari ugukanda akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri, cumi na gatatu, urwego, ugakoresha mokashi.

Aha ngaha rero murahabona icyapa cyanditseho ngo rizoni izi tugeti beka andi secuwadi rone. Aha ngaha akaba ari banki ya beka itanga inguzanyo ku bantu babishaka bose bagiye babigana, bakaba babaha inguzanyo yizewe kandi bakazayishyura mu gihe gitandukanye.

Ahangaha rero murabona kari mu isoko harimo gukorerwa ibikorwa bitandukanye, murabona ko imyaka ipakiye mu mifuka bari kugenda bapakira imyaka kugira babone uko babikoresha byabaye bipakiye neza.

Aha ngaha rero murahabona ibihingwa byinshi cyane biri aha ngaha, imyaka yeze, murabonamo ibijumba, ubunyobwa. Ni ibintu byinshi byinshi cyane bigiye bitandukanye, noneho bigaragara ko aha hantu hakorerwamo ubucuruzi cyangwa se hamwe twita ngo ni mu isoko. Akaba ari mu isoko rikorerwamo ibintu by'ubucuruzi, ibintu by'ibibiribwa.

Nk'uko mubibona rero aha ngaha hari urujya n'uruza rw'abantu, biragaragara kandi ko ari mu isoko, isoko rigari cyane murahabona imyenda itandukanye, amatisheti, amashati, imipira y'imbeho, ibikapu, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, bigaragara ko aha ngaha rero hakorerwa ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye.

Ahangaha murabona ko ari mu isoko rinini cyane rinini ricururizwamo ibintu byinshi cyane byo mu bwoko butandukanye hari amavuta, hari imyenda, amakariso, ndetse n'ibindi byinshi cyane mubona muri iri soko.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona ni mu isoko rinini ariko akaba ari isoko ricuruza ibintu bijyanye n'imboga cyane murabonamo inyanya rero, mukabonamo imbuto, mukabonamo intoryi n'ibindi, imiteja, kokombule n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Nk'uko mubibona rero ahangaha ni mu isoko, ariko icyiganje cyo muri iri soko ni uko harimo gucururizwamo ibintu bijyanye n'imbuto ndetse n'imboga, murahabo inyanya, urusenda, intoryi, ibyo byose n'ibindi bitandukanye birimo gukorerwa muri iri soko.

Murabibona rero, aha ngaha ni mu bwato, nk'uko mubibona hari ubwoko bw'amafi menshi, yagiye arobwa, hari abantu barimo kuyakorera isuku, kugira ngo aya mafi abashe kuba yagurishwa ari amafi ameze neza. Ikindi kandi urabona ko abantu bose b'aha ngaha hari amafi menshi menshi cyane.

Nk'uko mubibona rero, aha ngaha naho ni mu isoko hakaba hacururizwamo ibintu bitandukanye ariko ibigaragara cyane ni imyenda, hagaragara ko hacururizwa imyenda y'abantu bakuru kandi imyenda myiza cyane.

Aha ngaha rero murabibona cyane ni mu isoko, ariko iri soko ririmo gucuruza ibintu byinshi bijyanye n'ubugeni, aho mubona ibyibo, mukabonamo inkoko, mukabonamo ibintu bikoresho byinshi bitandukanye, ariko bigaragara ko ari bugeni, ibikoresho biba byakozwe n'intoki z'abantu.

Iri ngiri rero ni iduka rikomeye cyane, urabibona ko rimanitsemo imyenda myinshi cyane kandi imyenda myiza, hano ho biragaragara neza ko hari amakanzu y'abamama, abamariniyeri, amakanzu yo kwambara ugiye ahantu hatandukanye, noneho ikigaragara cyo aya makanzu niyo amakanza abadozwe mu bitenge, amakanzu meza cyane.

Aha ngaha rero hari uruhurirane rw'abantu benshi, ariko urabibona neza ko ari mu isoko, aho abantu baje gucuruza inyanya mu tuntu bita udutebo, murabona ko harimo inyanya nyinshi cyane, hirya inyuma murebe neza murabona intoryi, murabona n'bindi bintu byinshi byo gucururizwa mu isoko.

Aha hantu rero murabibona ko hari uruhururane rw'abantu benshi benshi benshi cyane, ariko nk'uko mubibona ikigaragara cyo nuko hari kubera ibikorwa byo kwamamaza bariko kwamamaza rero Airtel. Ni yo mpamvu mubona abantu benshi benshi benshi cyane bateraniye aha ngaha. Hari amagare ni yo yiganjemo cyane.

Aha ni ahantu habera ibikorwa bitandukanye ariko ikigaragara cyo ibikorwa bihabera ni ibijyanye n'ubudozi, abatayeri barimo kudoda, hicaye n'abakiriya baje gushaka iyo serivisi y'ubudozi yo kuba babadodera, uko bigaragara rero abakozi barimo gukora bashishikaye ndetse n'abategereje na bo bategereje bihanganye ko serivisi zabo zuzuzwa.

Aha hantu rero ni mu isoko, isoko rikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, ariko ikigaragara cyane harimo ikijyanye n'imboga, murahabona inyanya, amashu, karoti, n'ibindi bigiye bitandukanye, aba bantu rero bari mu mitaka, murabonako bari gucuruza amafi, n'ibindi byinshi, inyuma mu isoko harimo byinshi cyane bitandukanye.

Ahangaha rero mu isoko ry'imbuto aho uhabona imbuto zigiye zitandukanye harimo imineke, amaronji, avoka noneho murabona ko bagiye bayashyira mu tuntu, kugira ngo umuntu uza kugura abashe kuba yagura akakantu kose gafite igiciro abasha kubayagura bitewe n'igitsin n'amafaranga.

Aha ngaha rero murahabona ni mu isoko ariko ni isoko ry'imyenda. Murabona imyenda imwe iramanitse hejuru indi irarambitse hasi, ariko murabona ni isoko ry'imyenda myinshi cyane kandi nk'uko mubibona imyenda yiganjemo ni imyenda y'abantu b'abamama, abana ndetse n'abakobwa.

Aha ni ahantu heza cyane, bigaragara ko ari mu gace kateye imbere kuko hari amazu meza, nkuko mubibona hari inzu nziza cyane, inzu ya etage ifite imiryango myinshi myinshi cyane kuko aha hantu habera n'ubucuruzi, habera ubucuruzi bw'abacuruza amayinite, bagatanga serivisi zijyanye no kubitsa no kubikura, hakaba uruhurirane rw'amamodoka menshi cyane.

Aha hari uruhurirane rw'abantu bigaragara ko hakorerwa ibintu bijyanye no gucuruza, murahabona karoti ibijumba imyumbati y'ibirayi intoryi pavuro imiteja urusenda n'ibintu byinshi murimo kubona mu mukabona k' inyuma naho hari gucururirwa ibindi rwose murabibona neza cyane ko aha isoko rinini kandi rigari.

Aha ngaha murabona ko hari ahantu harimo gutangirwa serivisi zijyanye na Mobayilo Mani. Murabona ko harimo umuhungu uhagazemo imbere mu kazu kagaragara ko ari akazu ka MTN gakorerwamo serivisi zijyanye no kubitsa no kubikuza, kohereza, ndetse no kwakira amafaranga ukoresheje Mobayilo Mani.

Aha hari uruhurirane rw'abantu ariko bigaragara ko aba bantu bateraniye hamwe, ahantu bigaragara nk'aha kiwosike, ikorerwamo ibintu bijyanye na mobayiro mane. Ari ugucuruza amayinite, rero murabona ko hateraniye abantu benshi cyane, ikindi hirya murahabona umutaka wanditseho tekino, nabyo bigaragara ko hakorerwa ibikorwa bijyanye na eregitoronike.

Aha ngaha murahabona icyapa, ariko icyapa kikaba kiri kubwira abantu cyangwa se gushishikariza abantu kuzajya bishyura bakoresheje momo peyi, kuko iyo ukoresheje momo peyi ntabwo bigusaba ko bagukata amafaranga cyangwa se utanga amafaranga arenze ayo wari gutanga, ahubwo niba ugiye kwishyura umuntu ibihumbi bibiri, urohereza bibiri byuzuye.

Aha ngaha rero murahabona inzu yo mu mabara y'umuhondo, higanjemo umuhondo, umukara. Aya ni amabara ya MTN mubona rero ko aba bantu na bo ari abakozi ba MTN. Aha hantu rero hakaba hakorerwa ibijyanye na MTN, kubitsa, kubikuza, mobayiro mani, kohereza amafaranga, n'ibindi bitandukanye serivisi za MTN zikora.

Aha ngaha rero murahabona, abagabo babiri bambaye imipira igaragaza emutiyeni, bigaragara ko rero aha hantu hatangirwa serivisi zijyanye na emutiyeni, ahakorerwa serivisi nyinshi, abantu bashaka kugura simukadi, guswapa simukadi, kohereza no kwakira amafaranga kuri terefoni babinyujije kuri mobayiro mani, aha ngaha hose izo serivisi zirahakorera.

Aha ngaha rero murabona ko hari ahantu hakorerwa ubucuruzi butandukanye ariko ikigaragara cyo kwishyira aha biba byiza ukoresheje mobiyiro mane, kandi namwe muzi neza kokoresha mobiro mane ari amahitamo meza kurusha uko wagenda utwaye amafaranga mu ntoki cyangwa se mu mufuka, kuko aho mu mufuka cyangwa mu ntoki bashobora kuyakwiba, ariko iyo uyafite kuri terefoni wirinda izo mbogamizi zose.

Nk'uko mubibona rero aha ngaha hari umutaka munini cyangwa se ahantu ho bari gukoresha momo n'izindi serivisi nyinshi zigiye zitandukanye za MTN.

Ahangaha rero murabona ko hari terefone y'iyi terefone, akaba irimo gukoreshwa nk'uko mu gukora ibintu bijyanye na momo, cyangwa se ibyo twita nka mobayiro mani urabona ko rero uyu muntu, ari kuyikoresha kandi arabikora cyane neza, bigaragara ko arimo guhanga.

N k'uko mubibona rero aha hanga naho hari amazu menshi menshi ariko icyo ikintu kigaragaraye cyane ni ahan hari kubera serivisi zijyanye n'ikoranabuhanga MTN aho bakora simukadi, swapu, giswapinga bagakora ibintu byo kohereza no kwakira amafaranga akoresheje mobayiro mani.

Aha ngaha rero murahabona inzu yo mu mabara ya mabara ya Emutiyene, umuhondo n'umukara, murabona ko ari n'inzu nubwo hafunze nta muntu urimo kuhakorera, ariko biragaragara ko hasanzwe hakorerwa ibikorwa bijyanye na Emutiyene serivisi, batanga serivisi zitandukanye, kubitsa, kubikuza, kohereza, gukoresha momo peyi n'ibindi byinshi.

Nkuko mubibona kandi hano, murabona ko hari inzu ya Emutiyene yanditseho Emutiyene. Iyi nzu rero ikaba ikorerwamo ibintu bijyanye na serivisi za Emutiyene, kubitsa, kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga, cyangwa se kugura amayinite ukaba wavugana n'abandi ukoresheje Emutiyene.

Iki rero ni icyapa kigaragaza iyo ishusho ya MTN, urabizi ko MTN ikunda kuba ikozwe mu mabara y'umuhondo n'umukara, ariko hano n'aho hari igare ryo muri ayo mabara, bigaragara ko rero iki cyapa cyerekana ko hakorerwa ibikorwa bijyanye na MTN, kubitsa, kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga.

aha murahabona moto akaba ari moto zipakiye ibintu bigiye byanditse byanditseho ibintu bimwe, ariko murabona ko ikigamijwe ari uburyo bwo kuba wagura ibintu onorini, noneho bakaza kubikugezaho bitewe n'aho utuye, ugashyiraho aya taransiporo bakaba bakabikomezaho

Aha hari amamoto ukaba ubona ko ari moto zimeze neza cyane, izi moto zikaba ziriho ibyapa byanditseho ngo mikoro bigaragara rero ko ari uburyo bukoreshwa mu kuba mwagurira online ukagura, urimo urabona ibi byapa bigiye biriho nimero za whatsapp, za telefone ku buryo umuntu waba ushaka kugura yifashishije izi nimero yagura.

Nk'uko ubibibona rero ahangaha haragaragara ibintu bitandukanye, urabona ko hari ahanditse Rwanda korofingi, ahangaha bigaragaza imyenda y'abanyarwanda, hakongera kugaragaza uburyo abanyarwanda bafunga amarase, uburyo abana b'abanyarwanda bambara, uburyo ibintu bijyanye n'imiringa n'ibindi byinshi cyane, amavuta n'ibindi byinshi urimo kubona ahangaha.

Nk'uko mubibona rero aha ngaha hari umuhanda, ariko ukaba ari umuhanda ukikijwe n'ibiti ndetse inyuma y'ibiti hari izindi nyubako, ariko icyo mubona cyane murabona moto ebyiri zihetse abantu zose bigaragara nk'aho aba bantu bari kumwe bose bajyanye mu gace kamwe.

Aha hantu rero murabibona ko ari ahantu heza cyane, hari amazu meza, hari jaride nziza, hameze neza. Bikaba bigaragara rero ko aha ahantu ari ahantu hakodeshwa i Kigali, hakaba hakodeshwa amadolari magana inani ya buri kwezi.

Aha murahabona inzu nziza cyane kandi inzu nini isize neza ifite igipangu cyiza, iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali ahantu hazwi nka Kabeza, rero iyi nzu ikaba iri kugurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Ahangaha rero haragaragara ubwoko bw'inzu, inzu nziza cyane, biragaragara ko rero iyi nzu iri ku isoko, aho iri kugurishwa amafaranga, miliyoni magana atatu mirongo itanu y'amanyarwanda, inzu ikaba iherereye i Gisozi, i Kigali hafi ya Kagugu, uwaba yifuza kugura iyi nzu, ni karibu i Gisozi.

Ahangaha rero murabibona ni inzu nziza cyane iri ahantu heza inzu yo mu bwoko bwa etage ifite jaride nziza ifite ibiti bizajya bitanga akayaga keza murururugo ariko iyi nzu n'uko irimo gukodeshwa rimokodeshwa amadolari igihumbi magana atanu buri kwezi iyinzu ikaba iherereye muri kigali mu Rwanda.

Aha ngaha rero murabona ko ari icyumba cyiza cyane, icyumba gisukuye gisashe neza, harimo amarido meza, akaba ari kiri mu nzu iherereye mu Mujyi wa Kigali, aho hari inzu iri gukodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu ya buri kwezi, rero uwaba wifuza kuza muri iki cyumba, yakegera mu Mujyi wa Kigali n'ay'amadolari, akabasha kuba yahabwa icyumba cyiza nk'iki ngiki.

Aha ngaha hari ubwoko bw'inzu nziza cyane, inzu iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, aho iyi nzu ugiye kuyigura bigaragaza ko wakwishyura miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo iyi nzu ubashe kuba wayigura.

Nk'uko mubibona rero, aha ngaha ni mu nzu ariko bagaragaje cyane icyumba gishashe neza. Urabona ko gifite amashuka meza n' igitanda cyiza kiriho n'umusego. Rero iyi nzu ikaba igaragara ko iri gukodeshwa amadolari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi. Rero iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, Kabeza.

Aha ngaha rero murahabona igipangu kirimo inzu nziza cyane, inzu imeze neza, ifite amasuku, isiza amarangi, mbese murabona ko ari inzu idafite icyo ibuze, iyi nzu ikaba ari inzu iherereye mu Mujyi wa Kigali, ikaba iri ku isoko, aho iri kugurishwa amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amanyarwanda.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Nkuko mubibona aha ngaha hari icyumba cyiza, icyumba gisashe neza, murabona ko ari icyumba kiri mu nzu nziza. Iki cyumba rero kikaba gikodeshwa n'iyi nzu kirimo, kikaba gikodeshwa amadolari magana inani ku kwezi, akaba ari inzu iherereye mu Mujyi wa Kigali.

Aha rero hari inzu nziza nziza cyane! Nk’uko mubibona aha ni mu cyumba, murabona ko ari icyumba gisukuye. Iyi nzu akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali Kacyiru, rero iyi nzu ikaba irimo gukodeshwa aho bisaba ko wayikodesha amadolari igihumbi magana atanu ya buri kwezi kugira ngo ube waba mu nzu nziza nk'iyi isukuye kandi igaragara neza.

Aha hanga rero nk'uko mubibona ni ahantu hanini cyane hakaba hari inzu nziza, hakaba hari n'ahandi hantu ushobora kuba wakorera ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi cyangwa ukahubaka butike zo gucururizamo, hakaba ari i Kigali, i Bumbogo hakaba hari kugurishwa miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

hangaha rero murahabona inzu nziza cyane hakaba ari inzu imeze neza ihinduka iherereye mu mujyi wa kigali aho irimo gukodeshwa amadorari ibihumbi bibiri ku kwezi ariko mubibona murabona korenzi ikeye inzu iyo imeze neza irimo amatara meza mste yujuje ibisabwa byose kuba umuntu yayibamo kandi akayivamo yishimye

Murabona ko ari ahantu heza cyane, hakaba ari ahantu hagizwe n'uburiri bumwe ndetse ubwogero n'igikoni, ahangaha hakaba harimo gukoredeshwa amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu by'amanyarwanda mu mujyi wa Kigali

Aha hari inzu nziza cyane, iyi nzu ikaba ifite parikingi eshatu cyangwa se ahantu ho kuba waparika imodoka zawe, iyi nzu ikaba iherereye Kanombe kigali siti, iyi nzu ikindi ikaba irimo kugurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Aha hari inzu nziza cyane, urabibona ko ifite n'igipangu kiza, iyi nzu ikaba iherereye Kibagabaga, akaba ari inzu ifite ibyumba bibiri, ikagira ubwogero bumwe, iyi nzu ikaba iri gushaka gukodeshwa, rero wifuza kuyikodesha yagana Kibagabaga agakodesha inzu nziza muri kubona aha ngaha.

Aha ngaha rero, murahabona inzu nziza cyane. Iyi nzu ikaba iri gukodeshwa. Ikaba ari inzu iherereye Kigali, Gikondo. Iyi nzu rero ikaba irimo ibyumba bibiri, ikabamo ubwogeromwe. Iyi nzu kandi nanone ikaba iri gukodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu bya buri kwezi. Rero uwaba ashaka inzu yo kuba yabamo yagana Gikondo, Kigali akabona inzu nziza nk'iyi.

Nk'uko mubibona rero aha hari inzu nziza cyane, inzu ifite ibaraza ryiza. Akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali-Kanombe, aho iyi nzu ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, rero akaba ari inzu iri gukodeshwa umuntu waba wifuza kuba yakodesha iyi nzu ikeye yakegera Kigali i Kanombe akabona ibisobanuro byinshi bijyanye n'iyi nzu.

Nk'uko mubibona rero aha ngaha, hari inzu nziza cyane, inzu yubatse neza, iyi nzu ikaba iri kugurishwa, akaba ari inzu iherereye Kabeza hafi yo ku murenge. Rero umuntu wese waba ushaka kuba yagura iyi nzu, murabona ko nta giciro gihari ariko ufite gahunda yo kugura inzu, wahegera ukavugana na ba nyirayo, bakakubwira uko igiciro cy'iyi nzu, uko gihagaze.

Iyi nzu ni inzu nziza cyane nk'uko mubibona, ariko ni inzu iri ku isoko mbese yo gukodesha. Iherereye i Kigali Kanombe. Inzu irimo ibyumba bitatu, irimo dushe ebyiri ikaba ari ukuyikodesha ibihumbi magana atatu mirongo itanu bya buri kwezi.

Iyi ngiyi rero urabona ko ari inzu nziza cyane, akaba ari inzu ifite ibyumba bibiri noneho iyi nzu akaba ari murabona ko igikorwa, ariko aho igeze ikaba imaze kugendera bije y'amafaranga ibihumbi magana inani, rero murabona ko nimara gukorerwa amasuku izaba ari inzu nziza.

Aha ngaha murabona ubwoko bw'inzu bwiza cyane, inzu izwi mu bwoko bwa etage, akaba ari inzu rero irimo gukodeshwa iherereye i Kigali Kibagaba, akaba ari inzu ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri, kuyikodesha bikaba bisaba ibihumbi magana atandatu bya buri kwezi kugira ngo ubashe kuba wakodesha iyi nzu.

Nk'uko mubibona rero aha hari inzu nziza, imeze neza, yubatse neza, ifite amarangi meza mbese ikorewe amasuku nk'uko murimo kubibona, rero iyo nzu irimo gukodeshwa, aho ubukode bwayo ari inzu iherereye i Kigali Kanombe, ikaba irimo ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu.

Aha ngaha rero murahabona inzu nziza inzu ya etaje, mubona ko ari inzu ifite isuku, inzu imeze neza. Iyi nzu rero ikaba iri ku isoko irimo kugurishwa amadorari ibihumbi ijana na mirongo ine. Iyi nzu ikaba iherereye mu Mujyi wa Kigali, ahantu bita Kibagabaga. Rero, uwaba afite ubushobozi bwo kuba yagura iyo nzu, yabegera bakavugana neza.

Aha ngaha rero murahabona inzu nziza, ni inzu ifite amasuku, ikorewe neza, ifite ibaraza ryiza. Akaba ari inzu iherereye i Kigali Kanombe irimo ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu. Iyi nzu rero ikaba irimo gukodeshwa, aho umuntu ushaka kuyikodesha yishyura ibihumbi magana atanu bya buri kwezi, akaba muri iyi inzu nziza cyane.

Aha ngaha hari inzu nziza cyane, iyi nzu ikaba ari inzu yo mu bwoko bwa etaje, ikaba iherereye Rugando hafi ya Komvesheni senta i Kigali, rero iyi nzu ikaba irimo gukodeshwa amadorari igihumbi magana atanu buri kwezi.

Aha hantu ho ndabona ari mu isoko, bigaragara ko harimo abantu, abacuruzi, abagurisha, gusa biragaragara ko aha hantu ari mu isoko bacuruza ibikapu, imarete z'abantu b'abamama baba batwaramo utuntu tugiye dutandukanye.

Aha ngaha rero murabona ko ari mu isoko rinini cyane, bikaba bigaragara ko aha ngaha mu nyubako ya etaje kuko murabonako hejuru hari ibindi bikorwa ariko aha hagaragara ahantu hacururizwa ibintu bijyanye n'imbuto cyane ndetse n'imboga, murimo kuhabona kuhabona imineke, avoka, imyembe, watermelon ndetse n'izindi mbuto z'ubwoko butandukanye.

Aha ngaha rero murahabona ko hari inzu nziza, inzu ndende ya etaje. Iyi nzu ikaba igaragara ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko ikigaragara nuko hasi, hasi ho hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi nk'uko mubibona hari imiryango myinshi, ariko bigaragara ko ari ibikorwa by'ubucuruzi bikorerwamo.

Murabona aha hantu rero ni ahantu heza ariko hakaba harimo ibintu byinshi bitandukanye bigaragara ko hakorerwa imirimo y'ubucuruzi. Rero nk'uko mubibona murabona ko ari ahantu hagari cyane kandi hasukuye, rero ni ibintu by'aho birasukuye.

Aha ni ahantu hanini cyane habera ibikorwa by'ubucuruzi, ikigaragara cyo n'ubucuruzi bw'ibinyobwa, harimo amata, mata y'inyange, aba apfunyitse mu dusashi, hakabamo amazi, imitobe ikozwe mu bwoko bw'imbuto zigiye zitandukanye.

Aha ngaha rero, murabona ko ari ahantu hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi, urabona ko uyo umuntu acuruza ibintu bitandukanye ariko ibyi akaba ari ibiribwa ndetse akaba ari ibintu by'imyaka byo kurya cyangwa se byagirira abantu akamaro mu bijyanye no guteka.

Iyingiyi rero murabona ca supamaketi nini cyane murabona ko hari n'ibicuruswa by'ubwoko butandukanye haragaragaramo byinshi cyane ariko bigaragara ko aha hantu hari ahantu heza kandi hateye imbere rero umuntu a ushaka ko yagurira ahantu heza yazahanturabonaba ibintu byiza cyane.

Aha ni ahantu habera ibikorwa by'ubucuruzi cyane cyane murabona ko hariho ibipupe byambaye imyenda y'abakobwaga naba mama aha rero bacuruza imyenda y'abakobwa naba mama nkuko mubibona kuko imyenda myinshi ihari n,imyenda yaba mama n' imyenda y'abakobwaga.

Aha ngaha rero, naho murabona ko ari supamaketi, icururizwamo ibintu bijyanye no kurimba, ibintu bitandukanye, murabona ko ikiganjemo ari amasakoshi y'abakobwa ndetse na b'amama, harimo amarinete, harimo ibintu byinshi cyane bijyanye n'imitako, inkweto murimo murazibona, imyenda izinze nayo irimo, bigaragara ko aha ngaha rero hakorerwamo ubucuruzi bw'ibintu byinshi bitandukanye.

Aba bantu rero nk'uko mubibona barimo gukora raporo, bigaragara ko uyu muntu afashe ikaramu ari kugenda yandika noneho uyu mumamuri umuri imbere akamubwira ibyo yandika bitewe n'ibyo ari kugenda amubaza, mu myirondoro ari gufata ari kugenda amubaza ibijyanye n'amazina, mituweli n'ibindi bitandukanye.

Aha murahabona icyapa. Icy'icyapa kikaba kiriho umugabo bigaragara ko afashe mu mikoro cyangwa indangururamajwi ye, akaba arimo kugenda abwira abantu noneho mukaza kubona ko handitse ejo heza. Ejo heza murabizi hariri uburyo umuntu yizigamira kugira ngo azagere ejo heza mu gihe azaba atagifite imbaraga zo guko. Rero murabona ko uyu muntu arimo kwamamaza ibintu bijyanye na ejo heza.

Aha ngaha rero ni ahantu, urabona ko hateraniye abantu benshi cyane, bisa naho barimo guhabwa ibiganiro cyangwa se bari kuganirizwa ku bijyanye na ejo heza. Ejo heza murabizi ko ari uburyo umuntu yizigamira amafaranga, ku buryo igihe azaba yarashaje atakibona imbaraga zo gukora azabasha gukoresha y'amafaranga yizigamiye.

Aha ngaha rero murabona ko ari ahantu hatangirwa serivisi za leta, bigaragara rero ko aha ngaha harimo gukorerwamo ibikorwa bijyanye na serivisi za leta, aho bari kugenda bagenzura ,mituweri cyangwa se n'ibindi byangombwa by'umuntu kugira ngo bamuhe serivisi bashaka.

Aha ngaha rero murabona ko ari ahantu hari kubera ibikorwa bitandukanye aho mubona buri wese uri aha ngaha ari bizwi cyangwa se ahuze hari ibintu ahugiyemo bamwe bari gusoma impapuro abandi bari muri mashini urabona rero ko ibintu ahangaha byakaze urabona ko nta muntu wicaye ubusa.

Ahahantu rero nahantu hezeheza cyane murabibo Hari amazu meza etaje zijyeretse cyane hakaba Hari nimihanda ijyiye irimo imodoka nyinshi zitandukanye bigaragarako ahahantu hakikijwe nandimazu meza bikongera kugaragara ko hari nibindi byapa haramatara kumihanda mbese nkukomubibona ahahantu hateye imbere cyane

Aha ngaha rero hari icyapa cyiza, ariko icyo kiri kugaragaza kiri kugaragaza uko umuntu yakwizigamira muri ejo heza akoresheje telefoni ye, rero ejo heza murabizi ko ari uburyo umuntu abasha kwizigamira amafaranga, kugira ngo mu gihe kizaza igihe azaba atagifite imbaraga zo gukora, ayo yizigamiye azagire icyo amufasha.

Iki ni icyapa kirimo kwamamaza ibikorwa bya RSSB, RSSB tuzi ko ari ikigo kijyanye na serivisi z'ubuzima rero aha abantu ko mubibona barimo kwerekana umunyamuryango ku isonga ashatse kwerekana ko umuntu wese ugenda ubagana ahabwa serivisi nziza kandi akagenda yishemye bitewe na serivisi.

Aha ngaha rero murahabona ikarita ya mituweli, akaba ari ikarita ikoreshwa cyane mu bintu bijyanye n'ubuvuzi ,aho muzi ko hari amakarita menshi cyane muri uru Rwanda hari abakoresha mituweli, abakoresha rama n'indi izwi nka emimayi ariko iyi mituweli nayo ikunda gukoreshwa cyane ku buryo umuntu uyifite atarembera mu rugo, ahubwo ahita ajya kwivuza kandi ku giciro cyo hasi.

Nk'uko mubibona rero aba bantu bose bafashe udukarita, biragaragara ko aha ngaha ari ahantu bishyurira mituweri. Aba bantu rero bakaba baje kwishyura mituweri, barimo kureba ukuntu ibintu bimeze ku dukarita twabo kugira ngo bakomeze bishyure neza kandi batangire mituweri ku gihe.

Aba ngaba rero, ni bakozi bo muri Ejo heza barimo kuganira uburyo mugomba guteza imbere Ejo heza, nk'uko mubizi rero Ejo heza ni uburyo umuntu abasha kwizigamira amafaranga kugira ngo mu gihe kizaza azayakoreshe. Rero, aba bakozi ni abo muri Ejo heza barimo kuganira.

Aha ngaha rero murahabona abantu bicaye ariko mukongera kubona ko ari ahantu hari inyubako nyinshi, bigaragara ko ari kwa muganga, aho barimo kugenda bahabwa amafishi yabo kugira ngo babone uko bajya kwishyura, bivuza babahe serivisi nziza.

Ahantu hateraniye abantu benshi, bigaragara ko hari kubera ibiganiro, bijyanye na ejo heza, aho barimo gusobanurirwa ibyiza byo kwizigamira ukazigamira ejo hawe, kugira ngo uzabone kubaho mu gihe kizaza, ikindi kandi hateraniye abantu benshi cyane, biragaragara ko hari n'imikino yahabereye, irimo guhuza abakinnyi batandukanye.

Aha hari uruhurirane rw'abantu benshi bigaragara cyane ko bateranijwe n'igikorwa cyo kwamamaza ejo heza ari byo bita sanira mu rundi rurimi ko bari kugenda bamamaza ibyiza byo guteganyiriza ejo heza ndetse abantu benshi babyitabiye cyane kandi biragaragara ko bakurikiranye ibiri ku habera.

Aha ngaha rero nk'uko mubibona, murabona ko ari abantu bateranijwe bigaragara ko ari urubyiruko, hakaba rero habaye imikino, hari imikino bigaragara ko barimo kwizihiza cyangwa se bishimira Ejo Heza bakaba bakoze igikorwa cyo guteranya amakipe kugira ngo bakine bishima bizihiza Ejo Heza.

Aha ngaha rero murahabona ibicuruzwa by'amoko menshi, ibi bicuruzwa bikaba biri muri etajeri, bikaba bigaragara ko ari muri super market, ariko cyane cyane murahabona ubwoko bw'imbuto aho hari imineke, urusenda, kokobure, inyanya ndetse n'ibindi byinshi tangawize murayibona n'ibindi.

Aha rero murabona neza ko hari supermarket cyangwa se isoko rinini cyane, ricuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye, ariko ibinyobwa byo muri iri soko murabona ko ari ibinyobwa biba bifunze, murabona ko harimo amata, amata y'inyange, hakaza kubamo indi mitobe ikozwe mu nanasi, n'izindi zikozwe mu mbuto zitandukanye.

Aha ngaha rero murabona ko ari muri supamaketi, aha hakorerwa ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, ariko ibyinshi muri kubona aha ngaha, murabona ko ari ibintu bijyanye no gukora imisatsi cyangwa se ibindi bijyanye, ni byinshi biri muri supamaketi, murabibona cyane ibintu ...

Aha ngaha naho murahabona Supamaketi nini cyane, igaragaramo ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye, ariko ibigaragara cyane ni ibiri mu macupa, bigaragara ko ari ibyo kunywa, ndetse amavuta, byose bigaragara ko ari ibintu bihenze, kandi by'agaciro gakomeye cyane.

Iyi ngiyi yo murabona ko ari supermarket ikaba irimo ibintu ibicuruzwa byinshi, ariko ibyo mubona cyane murabona ko ari ibyo kunywa harimo amaji, harimo fanta cyane cyane murabona ko ari ibyo kunywa biri muri supermarket.

Iyi rero ni supamaketi icururizwamo ibintu byinshi byinshi cyane, nkuko mubibona muri izi etajeri, hagiye hapanzemo ubwoko bw'ibiribwa n'ibinyobwa byinshi, harimo nk'imigati, amaji, amabuleba n'ibindi byinshi by'ibiribwa bigiye bitandukanye.

Aha ngaha rero murabona ko ari ahantu hakorerwa ubucuruzi bujyanye n'imitobe ndetse n'imbuto, aho mubona uyu muntu afashe ibintu bigiye bitandukanye harimo inanasi ndetse murabona ko hirya rero hateretse ubucupa bwa ji zigiye zitandukanye.

Iyi na yo rero murabona ko ari supamaketi ariko ikigaragara ibintu bigaragaramo cyane urabona ko ibyinshi ari amabombo bigaragara ko ari amabombo, amabiswi ndetse n'ibindi bintu byinshi bikozwe muri ubwo bwoko.

kangaha rero murabona ko ari supamaketi nini cyane aho hakorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye nk'uko mubibona muri izo etajeri mukareba ku ruhande rwo hepfo murabona ko hari n'imashini zifashishwa mu gukora ibi bintu nk'uko mubibona ni ibintu byiza cyane kandi by'ubwoko bwinshi butandukanye.

Aha ngaha rero hari amazu meza cyane maremare ariko hakaba icyapa kinini cyane cyanditseho simba supermarket bigaragara rero ko ari supermarket izwi ku izina rya simba, aha abantu benshi bazi iyi supermarket bakunda kuyihahiramo cyane.